Iki ni ikirango cyamamaza kigaragaza itsinda runaka gitanga serivise mu buryo bwo kwishingira abantu ingaruka zaterwa n'ibyo bishingira.

Iki ni ikirango kigaragaza aho umuntu ashobora gukura amakuru by'umwihariko kubantu bashaka kubaka amazu yo guturamo.

Iyi ni porogaramu ya banki ikoresha mu gihe ikwereka amafaranga wohereje cyangwa ubikije ndetse ikakwereka igihe ubikoreyeho n'amatariki.

Iyi ni porogaramu ya banki ikoresha mu gihe iri gutanga serivise gufungura konti, kohereza amafaranga, kwishyura amazi ndetse no guhaha.

Ubu ni uburyo bukoreshwa n'ibigo by'imari mu kuguriza abakiliya babo aho ashobora kwinjizamo amakuru yiwe muri sisitemu y'ikoranabuhanga kugira ngo amenye uko konti yiwe ihagaze.

Iyi ni porogaramu ya banki ikoresha mu gihe abakiriya bayigana ibereka amanimero ya konti ndetse n'uburyo bigenda mugi...

Iyi ni porogaramu ya banki yaerekana uko banki yitwa ndetse n'ibyo ikora naho ikorera hose bitewe na serivise ushaka gukora.

Iki ni icyapa kiri k'umuhanda cyubakishijwe mucyuma muburyo bwamashanyarazi cyamamaza ubwoko bwinzoga cyifashishije icupa nikirahure isutsemo.

Aka ni akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye harimo ameza utubati dukoze mu birahure tubika amacupa arimo ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho bifashisha.

Mitsingi ni ikinyobwa cyo kunywa gisembuye aho waba uri hose mu gihugu hose, aho wagana ku maduka wahasanga ikinyobwa cyitwa mitsinzi ukakigura kandi ku giciro cyiza, kuri serivisi kandi zikunogeye izo wifuza.

Aka ni akabari gacuruza ibyo kunkwa bitandukanye harimo ibisembuye n'imitobe harimo akabati kabitse ibikoresho birimo ibicuruzwa byabo.

Aka nI akabari gacuruza inzoga n'ibindi binyobwa bitandukanye byo kunywa, harimo firigo, televiziyo n'akabati kabitse amacupa arimo ibyo kunywa.

Aka ni akabari gacururizwamo ibyo kunywa by'inzoga bitandukanye, harimo utubati dukoze mubyuma n'ibirahure tubikwamo amacupa arimo ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho.

Aka ni akabari gacururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, harimo ameza n'intebe bikoze mu cyuma, amatara yaka amabara atandukanye n'utubati tubitse amacupa arimo ibinyobwa.

Hano ni mu iduka ricuruza ibyo kunywa, harimo amasanduku babikamo amacupa y'ibyo kunywa, harimo mudasobwa zifashishwa mu gucunga umutekano n'abantu batanga serivisi.

Aka ni akabari karimo ameza ateretseho igikombe kirimo icyo kunywa, harimo amatara, harimo abantu, harimo n'ibyuma bisakaza amashusho.....

Ni inzu irimo amasanduku bifashisha babika amacupa arimo ibinyobwa n'intebe n'utubati turimo amacupa arimo ibinyobwa n'impapuro bakoresha mu guhanagura.

Ahacururizwamo ibyo kunywa bitandukanye ndetse harimo tereviziyo, ububati tubika amacupa arimo ibyo kunywa na firigo zikonjesha.

Uyu ni umuntu uri mu kabari karimo utubati dukoze mu byuma, turimo amacupa arimo inzoga z'ubwoko butandukanye, ari guhanagagura igikombe bakoresha.

Aka ni akabari karimo intebe n'ameza, bikoze mu byuma, ndetse n'amatara yaka amabara atandukanye, n'utubati tubika amacupa y'ibyo kunywa.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari karimo ibyo kurya bitandukanye ndetse hariho n'icyapa kigaragaza ibyo bacuruza ndetse n'izina ry'akabari.

Akabari gacuruza inzoga ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye harimo ameza, na firigo n'akabati kabika ibyo kunywa biri mu macupa.

Iki ni icyapa kiri ku muhanda, gikoze mu cyuma, mu buryo bw'amashanyarazi, cyamamaza inzoga, ndetse n'umurongo w'urubuga wazikuraho.

Muri bare uhasanga ibyo kunywa ibyo kurya ibisembuye n'ibidasembuye kandi ugahabwa aho wicara mu gihe uri guhabwa ibyo byose wifuza birimo.

Ikibaho cyanditseho iminsi igize icyumweru ntikizagenda kigurwa kuri uwo munsi n'izina ryacyo ndetse n'ingano yacyo.

Inzu irimo intebe, ameza, ibikombe, n'ibirahuri, n'utubati babikamo amacupa arimo ibinyobwa n'umuntu ubitanga.

Aka ni akabari gacuruza ibyo kunywa bitandukanye, harimo ameza akoze mu biti, ndetse n'amahema asakaye, n'intebe, n'ibirahure banyweramo.

Aka ni akabari kubakiye karimo mu mbere ndetse gafite naho imodoka ziparika z'abakiriya igihe baje kuhanywera hariho n'icyapa kigaragaza y'uko hari kabari.

Aya ni amazu y'ubucuruzi arimo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye n'aho bacuruza ibyo kunywa, harimo firigo n'umutaka w'umwajenti wa emutiyeni.

Aka ni akabari gacuruza ibyo kunywa bitandukanye inzoga ndetse n'imitobe, harimo utubati twifashisha mu kubika amacupa arimo ibinyobwa na firigo zikonjesha.

Uru ni uruganda rwa henikeni rutunganya inzoga zo kunywa aho waba uri hose mu gihugu hose wahasanga iduka rya henikeni ukagura iyo nzoga ukanywa ukaryoherwa na serivisi ikunogeye winywera henikeni.

Aka ni akabari gacuruza inzoga ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye byo kunywa, harimo ameza, televiziyo isakaza amashusho, ndetse n'ibyapa bigararaga amazina y'ibyo kunywa bafite.

Ni abantu babiri umwe afite imashini mu ntoki undi afite ikarita, arimo arakoza ikarita ku mashini yanditseho pesipari savi insati.

Iki ni icyapa kiri ku muhanda, cyamamaza ikinyobwa gisembuye, cya henikeni, cyo kunywa, ndetse bifashishije amabara n'amagambo y'izina ryacyo.

Aka n'akabari karimo ameza nintebe ndetse na televiziyo bifashisha mugusakaza amashusho n'ibirahure abakiriya bankweramo.

Ni akabari bacururizamo inzoga n'ibindi binyobwa bitandukanye ndetse kariho icyapa cyamamaza kandi kiranga icyo kinyobwa bacuruza.

Ni inzu irimo inebe zo kwicaraho iriho utumeza tureture ndetse n'ibyuma byifashishwa mu gukonjesha ibyo kunywa n'umuntu ubitanga.

Uru ni urupapuro ruriho ibyo kunywa ndetse n'ibiciro byabyo n'igipimo cy'uburemere mu buryo bw'ubusukano bwabwo n'amazina yabyo.

Aka ni akabari gacuruza inzoga zo kunkwa ndetse n'indi mitobe y'ibinyobwa itandukanye, karimo ameza intebe abakiriya bicaraho utubati tubika amacupa arimo ibyo kunkwa ndetse na televiziyo.

Aka ni akabari karimo inzoga z'amoko atandukanye, ameza abakiliya bicaraho, ndetse na nimero na kode bakoresha mu kwishyura, n'ibikombe banyweramo.

Iki ni icyapa kiri ku muhanda cyubakiweho ibyuma ndetse n'amashanyarazi agifasha kwaka cyamamaza inzoga yo kunywa ya virunga.

Aka ni akabari bacururizamo inzoga zo kunywa ndetse n'ibindi binyobwa by'amoko atandukanye harimo umukiriya utanga uwo mukiriya utanga ibyo bicuruzwa ndetse n'utubati babikamo amacupa abitse ibyo kunywa.

Inyubako iririmo amaduka atandukanye harimo aho bacuruza imyenda ndetse n'akabari gacuruza ibyoku kurya n'ibyokunywa bitandukanye n'icyapa ki'ibiranga.

Uru ni urupapuro rwanditseho ibyo kunywa bicuruzwa n'amazina yabyo, harimo ibyo kunywa by'imitobe, inzoga n'inzoga zivanze, hariho n'amafaranga y'ibiciro.

Aka ni akabari gacuruza inzoga zo kunywa ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, hariho icyapa kigaragaza izina ryako ndetse na nimero yabo wabashakaho.

Iyi ni inzu irimo umuntu urimo guhanagura ibirahure banyweramo n'ibiyiko n'amakanya yifashishije imashine ndetse n'amazi.

Aka ni akabari gafite aho bicara mu imbere ndetse no hanze hari intebe zikoze n'ameza bikoze mu cyuma n'icyapa kerekana izina ryaho.

Aha niho ushobora gushakira icyo kunywa nicyo kurya waba uri wenyine inshuti abavandimwe cyangwa se n'umuryango wawe muri rusange mukamwahahurira mukahabonera nindi mikino itandukanye.

Aka ni akabari gacuruza inzoga ndetse n'ibindi binyobwa byo kunywa bitandukanye harimo intebe abakiriya bicaraho mu gihe bari guhabwa serivise n'utubati tubika ibyo bacuruza.

Aka ni akabari karimo ibyo kunywa bitandukanye n'ibirahure bifashisha bari kunywa na mudasobwa bakoresha n'utubati tw'ibirahure tubitsemo amacupa y'ibyo kunywa.

Uyu ni umukobwa uri mu kabari, ufite icupa rivamo icyo kunywa, ndetse n'abacuruzi bacuruza ibyo bicuruzwa, n'intebe n'ameza banyweraho.

Aka ni akabari karimo intebe, imeza, utubati, amacupa y'ibirahure, amatara ndetse n'ibyuma bifashisha mu gukonjesha ibyo kunywa.

Aka ni akabari karimo intebe , ameza y'ibirahure ndetse n'abacuruzi bacuruza inzoga zo kunywa n'amatara arimo kwaka

Aka ni akabari karimo utubati. Amacupa akoze mu byuma, mu birahure na parasitike ndetse n'ameza bifashisha ibikombe.

Iyi n'inzu icyururizwamo ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'umucuruzi utanga ibicuruzwa byo muri rino duka na firigo yifashishwa ikonjesha ibyo kunywa.

Aka ni akabari karimo ibyo kunywa ndetse n'utubati tubitse ibyo binyobwa bacuruza, harimo ibtuma bisakaza amashusho, amatara ndetse n'umuntu, utanga ibyo binyobwa byo kunywa.

Aka ni akabari karimo intebe n'ameza ndetse n'amacupa arimo inzoga, n'utubati abitsemo na firigo ikonjesha ibyo kunywa bitandukanye.

Aka ni akabari karimo intebe, ameza, byo kwicaraho bikozwe mu byuma, ndetse n'utubati tw'ibirahure tubikwamo amacupa arimo ibinyobwa bitandukanye.

Aka ni akabari kari ahantu ku muhanda, ndetse gafite ibyapa byerekana amoko y'ibiribwa n'ibinyobwa bacuruza, ndetse n'amazina y'ako kabari uko kitwa.

Aka ni akabari gacuruzwa ibyo kunywa bitandukanye karimo ameza, utubati tubika amacupa arimo ibinyobwa ndetse n'imiheha yo kunywesha na tereviziyo.

Iri ni ihema rikorerwamo akabari ririmo intebe n'ameza bikoze mu mbaho n'icyuma. Harimo ibyo kunywa bitandukanye n'abakiriya bari kunywa ibyo binyobwa.

Aya ni amazu akorerwamo ubucuruzi bw'akabari, ndetse hariho n'ibyapa bigaragaza icyo izo nzu zikorerwamo, n'amazina y'utwo tubari n'icyapa kiharanga.

Izi ni inzu z'ubucuruzi hariho n'icyapa cyamamaza inzoga, gikoze mu cyuma harimo n'amashanyarazi n'umutaka w'umu ajenti wa emutiyene.

Amstel ni uruganda rutunganya inzoga yo kunywa yitwa "Amster", ikaba iri mu gihugu hose mu maduka atandukanye mu masoko, aho waba wifuza ino nzoga yo kunywa, aho ari hose wayibona.

Aka ni akabari gacuruza inzoga zo kunkwa ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, karimo ameza intebe ndetse n'utubati babikamo amacupa arimo ibinyobwa.

Aka ni akabari kari mu mbuga gasakaye, karimo amatara y'amabara atandukanye ndetse n'intebe zo kwicaraho, n'utubati turimo amacupa yo kunywa.

Aka ni akabari karimo akabati kabitse amacupa arimo ibyo kunywa by'inzoga n'ameza bifashisha bari guterekaho igikombe cyo kunyweramo.

Iri ni iduka ririmo ibyo kunywa ndetse n'aho bafatira ibyo kunywa, n'aho bicara, n'intebe zitandukanye, ndetse n'abantu.

Aka ni akabari karimo ameza asize amarangi yamamaza; ndetse n'amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye n'abacuruzi.

Aka ni akabati gakoreshwa mu kubika inzoga zitandukanye mu buryo bw'ubucuruzi, hakaba hagaragara ko hariho n'isakazamashusho mu gihe basakaza amashusho atandukanye.

Iri n iduka ricururizwamo ibinyobwa harimo, harimo utubati tubitsemo amacupa arimo byo kunywa, ndetse n'amakesi yfashishwa mu kubik amacupa y'ibirahure.

Ni inzu irimo intebe n'imisego ndetse n'ameza ariho icupa ririmo ikinyobwa cyo kunywa ririho igipapuro kerekana izina ryacyo n'igikombe gisutsemo icyo kinyobwa.

Ipikipiki iparitse ku muhanda w'ibitaka, nta muntu uyitwaye, ku ruhande hari umugabo wambaye inkweto zifite ibara ry'ubururu.

Aka ni akabari gacuruza inzoga ndetse n'imitobe yo kunywa, karimo ameza ndetse na televiziyo n'utubati bifashisha mu kubika amacupa arimo ibyo kunywa.

Aka ni akabari karimo ameza, intebe, utubati bifashisha babikamo amacupa yibyo kunywa ndetse n'ibyuma bifashisha bakonjesha ibyo kunywa.

Aka ni akabari, karimo intebe n'ameza bikoze mubyuma, harimo amatara yaka amabara atandukanye, na firigo ikonjesha ibyo kunywa ndetse na televiziyo.

Izi ni inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'amoko atandukanye, hariho icyapa kigaragaza yuko imwe icururizwamo ibyerekeranye n'imodoka, n'ikindi cyapa kiranga akabari.

Iyi ni inzu irimo ibinyobwa byo kunywa, isakaza mashusho n'amatara, ndetse n'intebe zo kwicaramo irimo n'abantu babiri, bicayemo barareba insakazamashusho bananywa.

Aka ni akabari gacuruza ibyo kunywa bitandukanye, harimo intebe zikoze mu biti ndetse n'ameza akoze mu biti, n'abakiriya n'ibirahure bakoresha banywa .

Aka ni akabari karimo utubati tubitse amacupa arimo inzoga zo kunywa, n'ameza bifashisha ndetse n'abacuruzi bambaye imyenda yerekana akazi bakora.

Uru ni urupapuro rwifashishwa mugihe bacuruza berekana ibicuruzwa bafite uko byitwa n'amazina yabyo ndetse n'ibiciro by'amafaranga yabyo.

Inzu zubatswe ariko z'ubucuruzi, zifashisha mu kwamamaza ibyo bacuruza bakoresheje ibyapa bikoze mu byuma bimanitse.

Iki ni icyapa kiri ku muhanda cyegeranye n'inyubako yubatse mu biti, kikaba cyamamaza ikinyobwa cyo kunywa hariho n'isoko ry'izina ryacyo.

Ubu nibwo buryo bwiza bwo kubika, kubikura amafaranga kandi afite umutekano, mu gihugu hose viza, urahasanga abajenti batandukanye, bakubikirize, bakubikurize kuri serivisi nziza.

Aka ni akabari karimo intebe zikoze mu mbaho n'ibyuma ndetse n'ameza akoze mu mbaho n'utubati turimo amatara n'amacupa ndetse n'abakiriya.

Iyi ni botike icuruza imyenda yo kwambara iriho ibyuma ndetse n'utundi duto bifashisha barikumanika imyenda na matara.

Aka ni akabari gacuriza ibyo kunywa, ndetse harimo ameza akoze mu byuma, hatatsemo n'imideri, n'abakiriya bicayemo, bari kuhafatira ibyo baje kugura.

Umuguzi n'umugurisha bari mu nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho turi kubonamo ibicuruzwa bitandukanye harimo nka fanta, harimo amajyane ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi.

Iyi ni inzu itangirwamo ubufasha butandukanye. Aho hatangirwamo nko gusukura imyenda, kuyigorora se cyangwa no kuyidoda bitewe n'icyo.

Uyu ni umucuruzi hamwe n'umukiriya barimo kugura imodoka ndetse hariho n'amazina ya sosiyete y'urwo ruganda uko yitwa.

Uyu ni umuntu ukora akazi ko gucuruza cyangwa gukodesha ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka mu gihe gito cyangwa igihe kirekire.

Iyi ni imodoka irimo kugurishwa ndetse inacanye iri kugaragaza icyapa kerekana yuko iri ku isoko na nimero wabahamagaraho.

Iyi ni inyubako icururizwamo imodoka z'amoko atandukanye, ndetse hamanitse n'icyapa gikoze mu cyuma, kigaragaza amoko y'imodoka bacuruza ndetse n'ingano.

Iyi ni imodoka ifite ibara ry'ivu, ikaba iri ku isoko, ikaba ifite agaciro kangana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni makumyabiri n'eshatu.

Aya ni amafaranga ariho umubare wayo, ndetse n'ikirangantego cy'igihugu, na banke akorerwamo, ndetse byanditseho no mu magambo maremare.

Iyi ni inyubako itangirwamo ubufasha, aho abantu baza bakabitsamo amafaranga, ndetse bakaba bemerewe no kuyabikuza, cyangwa kwaka inguzanyo.

Iyi ni ubwoko bw'ibiryo bitekwa aho bavanga ifarini, amazi, amavuta, amagi bikabyara ubwoko bw'ibiryo bwitwa capati.

Iduka ricururizwamo amata yo kunywa atandukanye, ndetse n'imigati, harimo n'ubujerekani bubikwamo amata mu buryo bwiza.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa ndetse n'amazi n'amajerekani abika ibyo bicuruzwa n'urugi ruriho icyapa kigaragaza ibyo bacuruza.

Iyi ni inzu irimo iduka ricuruza amata yo kunywa hariho ibyapa biranga ibirimo bacuruza ndetse na nimero wabashakaho n'amazina yaho.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Harimo utubati tubika ibikoresho bakoresha bacuruza n'ameza n'ibirahure banyweramo.

Iri ni iduka rw'amata ujyaho ugasangayo umukozi ushinzwe kuyatanga akayaguha kandi akayaguhera ku gipimo kiza kandi akayaguhera ku giciro kiza kuri serivise inogewe kandi igushimishije.

Ni iduka ririmo utubati, ibikombe, amasahane, indobo yifashishwa mu kubika ibyo kurya, n'amakarito arimo amata.

Iri ni iduka ricuruza amazi yo kunywa harimo ibyapa byerekana ayo mazi bacuruza ndetse n'imashini bifashisha mu gutunganya amazi.

Iri ni iduka ribarizwamo amata yiswe i nyanza mirike indastirizi kandi si ibyo gusa bibarizwamo harimo n'ibyo kunywa bitandukanye n'ibyo kurya.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa, ndetse n'ibindi biribwa barya, mu gihe banywesha amata n'ibikoresho bakoresha babika ibyo kurya.

Iri ni iduka ririmo umucuruzi ndetse n'icyuma kibika amata, arimo arabuganiza amata ayashyira mu kabido, hakaba hari n'umukiriya ugiye kwakira ayo mata ari kubuganizwa.

I iri ni iduka ririmo icyuma kibika amata yo kunywa ndetse kiriho n'igipapuro kigaragaza ayo mata uko yitwa n'utubati tubitse ibikoresho babikamo amata.

Iri ni iduka ricururizwamo amazi yo kunywa, ndetse harimo na firigo ikoreshwa mu gukonjesha amazi, n'ibindi bikoresho bakoresha, nk'amajerekani.

Ni inzu irimo abantu batatu bicaye ku ntebe, bafite ameza ateretseho ibikombe n'amajage arimo amata bari kunywa.

Iyi ni inyubako irimo abantu bateretse imeza iriho amajerekani arimo amata, ndetse n'abandi basukiwe mu gikombe amata.

Iri ni iduka ririmo amata yo kunywa n'ibindi binyobwa bitandukanye byo kunywa, bifashishije ibikoresho bibungabunga umutekano w'amata n'ibyo binyobwa bindi birimo, kandi ugasangamo n'abantu bashinzwe kuguha icyo wifuza, bimwe muri byo.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa, harimo utubati, ameza, ndetse n'umuntu ucuruza ayo mata n'ibikoresho yifashisha.

Iri ni iduka ricuruza amata harimo icyuma kibika amata na firigo, ndetse n'ameza n'intebe umucuruzi yicaraho mugihe acuruza.

Iri ni iduka ririmo umucuruzi ndetse n'abaguzi, harimo icyuma kibika amata, kikanayakonjesha ndetse n'amacupa bashyiramo amazi.

Iri ni iduka ririmo ameza, ndetse n'intebe zikoze mu cyuma, n'utubati tubitse amacupa arimo amazi, n'amajerekani.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa harimo icyuma bayabikamo na firigo ikonjesha n'akabati karimo amacupa arimo ibinyobwa bitandukanye bacuruz.

Iri ni iduka ririmo icyuma babikamo amata ndetse n'akabati k'ibirahure babikamo ibyo kurya n'ameza n'ibikoresho bifashisha basuka amata.

Iri ni iduka ricururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, harimo akabati bifashisha babika amajerekani bakoresha ubucuruzi ndetse n'indobo zibika ibyo kurya by'abakiliya.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa harimo ameza, amasahane n'amasorori n'ibikombe banywesha amata.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa ndetse n'ibndi binyobwa bitandukanye rifite icyapa kigaragaza ibikorerwamo mu imbere n'izina ryaho.

Iri ni iduka ririmo utubati, intebe, icyuma gikonjesha amata ndetse na firigo ikonjesha ibindi binyobwa byo kunywa n'umucuruzi.

Ni iduka ricuruza amata ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, harimo icyuma babikamo amata ndetse na firigo ikonjesha ibyokunywa, n'ameza n'intebe bicaraho.

Iyi ni inzu irimo akabati gakoze mu biti gasize n'amarangi, ndetse karimo n'amajerekani akoze muri purasitike abitse muri ako kabati.

Iri ni iduka ricuruza amata, harimo akabati babikamo ibikoresho bakoresha mu gucuruza, na firigo, ndetse n'icyapa kiranga.

Iri ni iduka ririmo intebe, icyuma cyibika kigakonjesha amata. Kiriho ikirangantego cyerekana aho amata atunganyirizwa, n'ibikoresho bifashisha.

Iyi ni ni inzu irimo umuntu ndetse n'ameza ateretseho nakajerekani karimo isabune y'amazi ndetse ako kajerekani kariho n'agapapuro kerekana iyo sabune.

Iyi ni firigo irimo amazi ari mu macupa, ndetse n'amata y'ikivuguto ari mu tujerekani, ndetse n'amata y'ikivuguto avangiwemo n'izindi mbuto.

Uyu muntu ari munzu afite icupa rigaragaza izina ry'amata ari kwamamaza ndetse n'ibyo bifashisha batunganya ayo mata.

Iki ni icyapa gishushanyijeho ibikorerwa mu nyange miriki zone hakaba hariho nimero ndetse n'imbugankoranyambaga wabasangaho harimo twita, fesibuke, isitagarame.

Iri ni iduka ririmo icyuma kibika amata firigo ameza igikombe kirimo amata isahani iriho amandazi byahereweho umukiriya.

iyi ni firigo ikoreshwa mugihe bakonjesha ibinyobwa bitandukanye amata imitobe ndetse n'ibindi binyobwa by'amazi

Iyi ni inzu irimo ibyuma by'imashini bibika amata bikayakonjesha, bikayashyushya ndetse naho bacomekera ibyo byuma.

Iri ni iduka ricuruza amata n'indi mitobe yo kunywa ndetse harimo firigo ikonjesha ibyo kunywa abantu batatu barimo baramamaza ayo mata.

Iri ni iduka ririmo utubati harimo abantu barimo baranywa amata mu bikombe by'ibirahure ndetse n'ameza ateretseho amasahani ariho ibyo barya.

Iri ni iduka ririmo utubati tw'ibirahuri ndetse n'utundi tubati dukoze mu biti harimo amata, amacupa arimo amazi yo kunywa n'indobo ibitse ibyo kurya.

Iyi ni inzu irimo ibicuba bifashisha mu gihe bari gutunganya amata ndetse n'ibyuma by'ibicuba bifashisha mu gihe bari kuyabika.

Iri ni iduka ricuruza amata, harimo intebe, ameza, n'abakiliya bari kunywa amata bakoresheje ibikombe n'ijage.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi ndetse hariho n'ibyapa bigaragaza yuko hacururizwamo amata ndetse y'ubwoko butandukanye.

Ni iduka ririmo umuntu uri gutunganya no gutegura ibicuba, abuganiza amata

Iri ni iduka ricuruza amata harimo icyuma bifashisha bakonjesha amata harimo akabata kabitse ibikoresho bakoresha mu gihe bari gucuruza.

Iri ni iduka ricuruza amata harimo firigo, umucuruzi utanga ibicuruzwa, ibicuba babikamo amata ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha bacuruza.

Iyi ni inzu isakajwe n'igisenge cy'imbaho irimo amarangi y'ubururu ndetse n'igishushanyo cyereka ibibamo n'utubati tubika ibikoresho.

Iri ni iduka ricururizwamo amata yo kunywa, harimo icyuma kibika amata kiriho ibimenyetso byerekana ayo mata uko yitwa n'utubati tubitse ibikoresho bakoresha mu bucuruzi.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa, harimo ameza maremare, amagufi, firigo n'icyuma kibika amata neza n'ibikoresho umucuruzi akoresha.

Ni amazu yubatswe y'ubucuruzi y'amaduka acururizwamo ibintu butandukanye inyama, imiti naho bacururiza amata.

Iri ni iduka ririmo utubati babikamo ibyo kunywa bacuruza bitandukanye amata, imitobe, imigati ndetse n'ibikoresho bifashisha mu gucuruza.

Iri ni iduka ririmo icyuma gitunganya kandi kibikwamo amata mu buryo bwiza kandi bwizewe ariyo inyange sibyo gusa harimo n'ibyo kunywa bitandukanye nabyo byo mu inyange.

Hari iduka ririmo imitobe yo kunywa yenzwe mu mbuto, hakaba harimo ibyo kurya bikozwe mu ifarine, icyuma kibika amata ndetse n'umuntu utanga ayo mata, n'uyahabwa.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa, ndetse harimo n'akabati kabitse amacupa arimo amazi, ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha bacuruza.

Iri ni iduka ricuruza amata n'ibindi binyobwa bitandukanye harimo umucuruzi ndetse n'ameza na firigo ikonjesha ibyo kunywa.

Iri ni iduka gakoze mu mbaho gasize amarangi y'umweru n'ubururu harimo amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Iri ni iduka ricuruza amata n'ibyo kurya ndetse harimo n'icyuma gikoreshwa mu kubika amata, n'utubati babikamo amacupa arimo ibyo kunywa.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa, harimo abantu bicaye ku ntebe n'ameza ateretseho ubujerekani babikamo amata n'ibirahuri bari kunywesha.

Iri ni iduka ririmo utubati turimo ibirahure ricuruza amata y'ubwoko butandukanye, ndetse rifite n'icyapa kiranga aho hantu.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa , ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye, harimo umucuruzi ubitanga ndetse n'akabati kabitse amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Ni inzu bacururizamo amata, ndetse n'ibyo kurya bitandukanye biri mu ndobo n'ibyo kunywa, harimo n'icyuma gikonjesha ibyo kunywa ndetse n'amakarito arimo amata.

Iri ni iduka ririmo intebe zikozwe mu byuma ndetse n'icyuma kibika amata kiriho ikirangantego cyerekana amata aho aturuka.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunkwa n'ibyokurya harimo ameza n'agatete karimo ibikoresho bifashisha mu masuku.

Iyi ni inzu icururizwamo amata, iri mu ifirigo ngufiya, ikonjesha ibyo kunywa, ndetse na firigo ndende nayo yifashishwa mugukonjesha amata, n'umucuruzi.

Iri ni iduka ricuruza amata ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye byo kunywa, harimo utubati dukoze mu mbaho tubika amacupa arimo ibyo kunywa na firigo.

Iyi ni inzu yubakishijwe ibiti n'imbaho icururizwamo amata y'ubwoko butandukanye ndetse na firigo ikonjesha amata y'umukiriya.

Iri ni iduka ricuruza amata ndetse harimo ibyuma bikonjesha amata, akabati karimo amata, ndetse hari n'ibyapa bigaragaza ibyo bacuruza n'uruganda rwabyo.

Iri ni iduka ririmo akabati babikamo amata, amacupa arimo amazi ndetse n'amakarito n'indobo bifashisha babika ibyo kurya.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa yitwa Mukamira , ndetse harimo intebe, ameza ibikoresho bifashisha, mu gucuruza amata n'icyuma kifashishwa mu gukonjesha amata.

Ni inzu irimo ibikoresho bikoze muri plasitike, birimo utujerekani turimo amata ndetse n'ibicuba by'ibyuma birimo amata n'utubati.

Iri ni iduka ririmo utubati ibikombe byo mu birahure ndetse n'ibicuba bacundiramo amata ndetse n'abacuruzi bayacuruza.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa ndetse n'amazi harimo n'ameza akoze mu biti ndetse na firigo ikonjesha ibyo binyobwa bacuruza.

Iyi ni inzu irimo ibicuba birimo amata ndetse n'ibikoresho bakoresha mu gihe bari kuyasuka ndetse n'aho batunganyiriza.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye hariho agace gafite ibara ry'ubururu hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umukara ruriho amagambo agira ati umuryango.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa, harimo intebe zo kwicaraho, ameza bakoresha baterekaho ibikombe birimo amata, mu gihe bari kunywa.

Aka ni akabati gakozwe mu mbaho, Kari munzu, gateretsemo amakarito arimo amacupa y'ibinyobwa, ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa apfundikiye.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Iri ni iduka ririmo ibyuma bikonjesha amata, ndetse n'ibindi biyabika. Hariho igipapuro kigaragaza amafaranga y'igiciro, n'indobo ikoreshwa mu gihe bari kuvoma amata.

Iri ni iduka ririmo icyuma kibika amata, ndetse n'amakarito arimo ibindi bicuruzwa na firigo ikonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho bakoresha.

Ni iduka ririmo icyuma gikonjesha ibyo kunywa utubati turimo ibyo kurya no kunywa bitandukanye ndetse n'amata yo kunywa.

Ni inzu irimo intebe yo kwicaraho, n'ameza , n'igishushanyo gishushanyijeho amata n'uruganda akorerwamo n'ikirangantego

Iri ni ikaragiro ry'amata ariryokamira dayili, badutunganyiriza amata meza aryoshye kandi ku giciro cyiza. Aho waba uri hose mu gihugu hose hari amaduka atandukanye wasangaho aya amata kandi meza aryoshye.

Iri n'iduka, abantu baza gufatiramo amafunguro, arimo ibyo kurya no kunywa harimo, ameza n'intebe abantu bicaraho mugihe, barimo bararya bananywa.

Iri ni iduka ririmo icyuma kibika, kigakonjesha amata ndetse n'ibikoresho bakoresha mu gihe bari gusuka ayo mata n'umucuruzi uyacuruza.

Iri ni iduka ririmo icyuma cy'amata ndetse hariho n'impapuro zigaragaza ayo mata uko yitwa n'utubati turimo amacupa y'amazi ndetse na firigo ikonjesha.

Aya ni amata y'ikivuguto yo nywa. Ukaba wayasanga mu maduka atandukanye mu gihugu cyose, kandi akaba abitse ndetse atunganyijwe mu buryo butandukanye ndetse wifuza bwose.

Iri ni iduka ricuruza amata y'Inyanza yo kunywa ndetse rikagira n'indi nyubako ikozwe mu byuma ibitsemo amacupa ajyamo amazi yo kunywa.

Iri ni iduka ririmo ameza ateretseho impapuro zerekana uko bishyura, harimo icyuma gikonjesha ibinyobwa birimo, harimo akabati kabitse ibyo binyobea birimo n'amacupa birimo.

Iri ni iduka ricuruza amata yo kunywa ndetse n'ibindi biribwa byo kurya harimo n'amagi n'umukozi wambaye umwambaro werekana akazi akora hariho na nimero za terefoni yabo.

Uru ni urupapuro rw'inyandiko y'imari, yerekana umusoro ndetse n'amahoro n'aho bashyize umukono wa nyir'igikorwa.

Uyu ni umuntu ukoresha amafaranga y'Amahanga atandukanye, mu gihe ari kuvunjira abakiriya bitewe n'amafaranga bifuza kuvunjamo.

Aya ni amafaranga y'amahanga aho uyakeneye ajya ku biro by'ivunjisha, agatanga amanyarwanda agatanga amadovize ariyo y'amanyamahanga.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi iriho icyapa kigaragaza ahantu bacururiza amafaranga, ndetse na nimero zabo wababarizaho n'urubugankoranyambaga bakoresha.

Ibi ni ibiro abakozi bakorera mo harimo inebe zifite imisego n'ibyuma n'ameza y'ibirahure hariho n'ibikombe banyweramo bari mu nama.

Iyi ni inzu ikorerwamo ububaji bukora ibikoresho bikoze mu mbaho, ameza, tubati, intebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Ibi ni ibikoresho bikozwe mu mbaho aribyo intebe, ameza bikoreshwa iyo bafata amafunguro yaba aya mu gitondo aya saa sita cyangwa se aya n' mugoroba.

Ibi n'ibikoresho mubyo dukoresha mu inzu aho tubona nk'intebe iba ikoreshejwemo matera n'ibyegamirwa ndetse n'utubati dukozwe mu imbaho.

Iyi ni inyubako ifite ibyumba bitandukanye aho abantu baza bakishyura amafaranga bakayiruhukiramo ndetse bakaba banakoga mu habugenewe.

Iyi ni inyubako yubatse muburyo bugeretse, ndetse yubakishijemo ibirahure, mu mbuga yaho, harimo intebe abantu bicaraho, zikikijwe n'imideri.

Iyi ni hoteli abakerarugendo bacumbikamo, irimo igitanda ndetse n'uburiri bushashe, hamwe n'amatara bifashisha bacana.

Iyi ni inyubako yamacumbi abantu bararamo ndetse ifite ubusitani buteyemo indabo n'ibiti harimo n'inebe zikikijwe n'ameza n'imitaka.

Iyi ni inzu irimo ibiro bya sosiyete y'ubwishingizi mu kwivuza, ndetse n'ibindi bikorwa by'Abanyarwanda bigombera ubwishingizi.

Iyi n'inyubako y'ubatse mu buryo bw'inzu igeretse iriho icyapa kiranga ahantu bakorera ubwishingizi hariho na nimero za banyirigikorwa.

Iyi ni inzu irimo ibiro bya sosiyete y'ubwishingizi ndetse n'ibikoresho bakoresha mu gihe barimo batanga serivise n'ibyapa biranga amazina yayo.

Ibi ni ibiro bikorerwamo abakozi ba sosiyete b'ubwishingizi mu kwivuza ndetse harimo ameza n'intebe bakoresha mu gihe bari gutanga serivise.

Iyi ni inzu irimo abakozi ba sosiyete y'ubwishingizi, ndetse na mudasobwa bakoresha mu gihe barimo baratanga izo serivise, n'intebe abakiriya bicaraho.

Iyi ni inyubako yubatse mu buryo bugeretse, iriho icyapa kigaragaza akazi ikorerwamo k'ubwishingizi bwo mu kwivuza, ndetse n'abakozi bakoramo.

Iyi ni inyubako y'inzu yubatse mu buryo bugeretse, ndetse ifite ibyapa byerekana iyi miryango sosiyete zikoreramo, n'ibindi byapa biranga ino nzu uko yitwa.

Aka ni akazu kari gukoreramo abakozi batanga inguzanyo, ndetse hariho ibyapa bigaragaza akazi bakora, n'umurongo wabasangaho.

Aba ni abagore bibumbiye mu itsinda bakora ubukorikori, burimo ibyibo, ibiseke bakaba bakoresha imigwegwe ndetse n'utudodo tw'imifuka.

Ni porogarame ya banki itanga inga inguzanyo y'amafaranga ndetse n'amazi y'iyo banki, yitwa na nimero wabashakaho n'umuronko wababonaho.

Iki ni icyapa cyamamaza sosiyeti itanga inguzanyo y'amafaranga ndetse na nimero bakoresha n'umurongo w'urubuga babakiriraho.

Iri ni isoko rinini ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, harimo karoti, insenda ndetse n'izindi mboga z'amoko atandukanye n'abacuruzi barikoreramo.

Aha ni ahantu hari ibicuruzwa bitandukanye, birimo umuceri, aho abantu baza kubigura barimo abaguzi ndetse n'umuntu uba ubicuruza ariwe umucuruzi.

Iri ni isoko ririmo umucuruzi ucuruza imbuto zitandukanye, harimo imineke, inanasi, amaronji, ibinyomoro, n'ibitunguru.

Ubu ni uburyo bukoreshwa aho umuguzi yishyura icyo aguze akoresheje telefone yiwe ngendanwa, mu kohereza amafaranga binyuze kuri emutiyene.

Iyi ni inzu abakozi ba emutiyene bakoreramo irimo ibyapa bigaragaza ibyo bakora n'irange rigaragaza izina rya sosiyete yabo.

Aka ni akazu umu agent wa MTN akoreramo, gafite amadirishya abiri ndetse ariho acishamo ibyo acuruza n'igi ari gutanga amante abitsa anabikura.

Ni inzu abakozi ba emutiyeni bakoreramo, ndetse bambaye n'imipira igaragaza izina rya sosiyete yabo, na mudasobwa bakoresha mu gihe batanga serivisi.

Aka ni akazu umu ajenti wa emutiyeni akoreramo, mu gihe ari gutanga serivise za mobayilo mani, gasize amarange agaragaza sosiyete bakorera, n'izina.

Uyu ni umuntu uri mu iduka urimo kwishyura yifashishije telefone mu buryo bw'ikoranabuhanga akoresheje umuyoboro wa emutiyeni ndetse na nimero bishyuriraho.

uyu n'umuntu ufite telefoni yihuje nurubuga rwa eyaterimani ari kureba serivise batanga n'ibindi bagurisha muriyo sosiyete.

Uru ni urupapuro rwo muri emutiyeni rwandikishijeho inyuguti nini, rukoreshwa bashyiraho nimero zo kwishyuriraho n'amazina ya nyiri konti.

Aka ni akazu ko umu ajenti wa emutiyeni akoreramo kanditseho amagambo yerekana serivise batanga harimo umu ajenti uri guha umukiriya serivise akeneye.

Aka ni akazu k'umwajenti wa eyateri mane ndetse yambaye n'umupira utukura arimo guha serivisi umukiriya umugannye.

Aka nakazu k'umukozi wa MTN kamanitsemo impapuro zigaragaza serivise batanga zitandukanye ndetse n'umukiriya uhabwa serivisi ashaka.

Aka ni akazu umu agenti wa emutiyeni akoresha yifashishije telefone mugihe ari gutanga amafaranga ama inite ndetse abikura anabitsa amafaranga.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa mobayilo mani ndetse n'umukiriya waje kubitsa no kubikura amafaranga.

Ni igishushanyo kigaragaza ko ari icya emutiyeni uburyo wakishyuramo hariho izina ry'umucuruzi ndetse n'imibare ukanda uri kwishyura.

Aka ni akazu karimo umu ajenti wa eyeteri gafite amadirishya atatu kamanitseho ibyapa bigaragaza serivise batanga nuko isoko ryitwa.

Uyu ni umukozi wiri soko ryitwa Rashifodi wifashisha ikinyabiziga mu kugemura ibyo kurya ndetse akanasaba serivise umwajeti wa mtn.

Aka ni akazu ka emutiyeni umu ajenti akoreramo igihe ari gutanga serivise n'aba bakiriya abaha amayinite, babitsa amafaranga ndetse banabikura.

Uyu ni umukozi wa emutiyeni wambaye umupira ugaragaza umurimo akora ndetse n'umushoferi utwara ikinyabiziga arimo aramuha serivise za emutiyeni.

Cira ukoresheje Mobile Money aho uri hose mu bice byose bitandukanye, kwa muganga kugura amazi, kwishyura umuriro, kugura amatike, ku masoko, ku maduka, izo serivisi zose Mobile Money irazigufasha.

Uyu ni umutaka ab'ajenti bakorera emutiyeni bakoresha ndetse n'intebe bicaraho mu gihe bari gutanga amayinite babitsa kandi banabikuza.

Iyi ni inzu irimo ibipapuro by'abakozi ba Emutiyeni bimanitsemo, byerekana gahunda na serivise batanga ndetse n'amabwiriza y'ako kazi kabo.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa emutiyene kari ahantu ku muhanda gasize irange rigaragaza sosiyete y'izina ryabo yambaye n'umwenda ugararagaza akazi akora.

Iyi ni imbuga irimo ihema risakariwe ririmo abakozi bambaye imipira ya MTN ndetse n'ibyapa bigaragaza serivise batanga.

Iyi ni sisiteme ikoreshwa kuri emutiyeni mu gihe uri kohereza amafaranga bakakwera amafaranga umuntu ugiye koherezaho uko yitwa ndetse nayo ugomba gukoresha mu gihe uri kwishyura.

Iyi ni inzu ikoreramo abakozi ba eyateri mani ndetse n'utubati bakoresha babika ibikoresho bacuruza, harimo terefone ndetse n'ibyapa biranga,

Aka ni akazu karimo umwajenti n'intebe yicayeho aka kazuka kaba kari kurangwa n'ibishushanyo bishushanyijeho bigaragaza yuko ari emutiyeni.

Ubu ni uburyo MTN yifashisha mu gucuruza igezaho abaguzi bayo ndetse n'abayigana uburyo ushobora kuryoherwa na interinete n'umuvuduko wayo aho waba uri hose kandi ku giciro cyiza.

Iri ni ihema ry'abakozi ba Airtel bakoreramo, ndetse iriho n'ibyapa byerekana izina ry'isoko, n'abakozi babo bambaye imipira y'akazi, n'abakiriya.

Uyu ni umukozi wa MTN uri ku itangazamakuru ndetse wifashishije n'icyapa kigaragaza imirimo akora mu kazi kabo.

Iyi ni emutiyeni Rwanda itanga serivise nziza kandi zinogeye abaturage aho uri hose mu Rwanda tubifashijwemo n'aba aenti bacu aho badufasha muri ibi bikurikira: kugura amayinite, kubitsa, kubikuza ndetse no kugura simukadi ibyo byose babigufasha.

Aha hantu hari akazu k'umu ajenti wa emutiyene gafite amadirishya abiri ariho atangira ibyo abakiriya bashaka ndetse hariho n'ibipapuro bigaragaza serivise aytananga.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa emutiyeni yicaramo mu gihe ari gutanga serivise zitandukanye kubitsa, kubikura, amayinite abiha bakiriya.

Aka ni akazu k'umwajenti wa emutiyene gafite amadirishya abairi n'abajenti babiri ndetse kariho amagambo yerekana serivise bakora n'abakiriya.

Iri ni ihema rikoreramo umu ajenti wa emutiyeni ndetse ryanditseho n'imibare ukanda mu gihe uri kwishyura cyangwa kugura n'abakiriya bashaka serivisi.

Uyu ni umukozi wa emutiyene wambaye umupira werekana izina ry'akazi ndetse n'ikinyabiziga akoresha mu kazi n'icyapa kiranga izina ry'isoko.

Iri ni iduka rinini ryagutse, ricururizwamo ibicuruzwa by'amoko atandukanye; ibyo kunywa n'ibyo kurya, harimo abakiriya ndetse na firigo zikinjesha ibyo...

Aka ni akazu k'umu agenti wa emutiyeni kari ahantu ku muhanda gafite amadirishya atatu kanditseho amagambo agaragaza serivise batanga na nimero bifashisha.

Ni umwagenti uri mu kazu k'umuhondo ka MTN gafite idirishya rimwe n'urugi rumwe ari kumwe n'umu client nawe ari gukoresha terefone.

uyu mwajenti ari mu mutaka wa MTN akoreramo, yambaye ishati yerekana akazi akora, ari kumwe n'umukiriya bari guhana serivisi.

ubu ni uburyo ushobora kugura amayinite, wifashishije mobire mani, kandi bakakwereka igiciro cy'amafaranga ushobora gukoresha mu gihe uri gukoresha ubwo buryo bwo kugura amayinite.

Iyi nzu ikorerwamo abakozi ba Emutiyeni bifashishije mudasobwa mu gihe bari gutanga serivisi zitandukanye, hamanitsemo n'ibishushanyo bigaragaza akazi bakora.

Iri ni iuduka rikoreramo abakozi ba emutiyene, bambaye imipira igaragaza izina rya sosiyete, ndetse na mudasobwa bifashisha mu gihe bari gutanga serivise z'amafaranga amayinite.

Iri ni isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, imboga, imbuto, ifu, ndetse n'bindi bibitse mu macupa n'utubati bifashisha babika.

Uyu ni umuntu uri mu iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye urimo, urimo kwishyura akoresheje terefone kuri n'imero ndetse na kode y'umucuruzi ya emutiyene.

Iri ni iduka ririmo ibicuruzwa rikaba ririmo akameza k'ibirahuri kariho impapuro ebyiri zerekana nimero ya kode bishyuriraho.

Iyi ni inzu abakozi ba Emutiyeni bakoreramo bambaye imyenda iranga akazi n'izina rya sosiyete. Harimo akameza k'ibirahure babikamo ibikoresho bacuruza, ndetse n'abakiriya..

Iduka ririmo ibyapa bigaragaza ibikorerwa muri iryo duka ndetse n'isakazamajwi n'abantu bakora.

Ni sitasiyo imodoka zinyweramo mazutu na peteroli, uyu ni umukiriya uri kwishyura yifashishije telefone kuri MTN akoresheje kode yabo.

Aka ni akazu k'umwajenti wa MTN kari ku muhanda yifashisha mu gihe arimo gutanga acuruza serivisi za MTN, kubitsa no kubikuza n'amayinite.

Uyu ni umuntu ufite telefone mu ntoki akaba yihuje na internet akoresheje telephone arigukoresha serivise za Mokash.,,

Akazu k'abajeti ba emutiyene karimo umwagenti n'ibikoresho acuruza, ndetse n'abakiriya arimo araha serivisi zijyanye n'ubucuruzi.

Umutaka wa emutiyene abajenti bokoreramo mugihe barimo baratanga amayinite, babitsa amafaranga banabikuza ndetse bambaye n'imyenda yerekana akazi bakora.

Ubu ni uburyo bukoreshwa mu kwamamaza emutiyeni, hirya no hino, mu bihugu bitandukanye, bifashishije urubyiruko ndetse no mu bantu bakuze.

Aka ni akazu k'umwajenti wa emutiyene kari kumuhanda kanditseho nimero wakifashisha mugihe ukeneye serivise za emutiyene ndetse n'ibindi.

Aka ni akazu kumu agenti wa emutiyeni akoreramo mugihe ari gutanga ama inite abitsa anabikura amafaranga ndetse n'izindi serivise zitandukanye za emutiyeni.

Uru ni urupapuro rumanitse munzu y'ubucuruzi rwerekana uburyo ushobora kwishyura ukoresheje umuyoboro wa MTN mu buryo bwa Mobile Money na nimero wakoresha.

Aka ni akazu k'umuajenti wa emutiyene kari kumuhanda, gafite amadirishya abiri ndetse harimo umukozi ndetse n'umukiriya ari kumuha serivise ashaka.

Emutiyene momo ikaba ifite amaduka menshi atandukanye, isakaza ku masoko hirya no hino kugirango bakomeze gufasha abaturage b'u Rwanda mu kubitsa amafaranga no kubikuza.

Aka ni akazu k'umu agenti wa Emutiyene. Karimo ibitabo yifashisha yandika raporo y'umunsi, ndetse n'urupapuro rwanditseho serivise batanga.

Uyu ni umwajenti wa emutiyeni ushobora gushakiraho simukardia ya emutiyeni akakwandikisha muri mobile mani ukagura cyangwa se akagushyira mu yindi miyoboro iyo ari yo yose igendanye na emutiyeni muri rusange.

Aba ni abagenti ndetse bakaba n'abakozi ba airtel money na mobile money, bagufasha kubitsa amafaranga yawe neza no kuyabikuza aho waba uri hose mu gihugu hose bakagufasha muri service nziza kandi ikunogeye.

Henshi ku mihanda igiye itandukanye ukunze gusangayo ibyapa biba byanditseho amazina cyangwa biranga aho utubari tugiye duherereye, n'ibinyobwa baba bafite, ku buryo buri muntu yishimira iyo serivise yo kwamamaza ibikorwa byabo.

Utu ni utuzu aba ajenti ba emutiyeni bakoreramo, ndetse turiho n'ibyapa bigaragaza isoko uko ryitwa, n'abakozi bambaye imipira y'akazi.

Aka n'akazu gakorerwamo n'abakozi ba MTN, ndetse n'ibyapa bigaragaza ibyo bakora, ndetse n'abakiriya bari guhabwa serivisi bashaka.

Aka ni akazu ka Emutiyeye, gakunda gukorerwamo n'aba ajenti, gafite umuryango umwe n'idirishya rimwe, ndetse kakaba kariho n'imibare umunt nakoresha mu kwiguriza amafaranga.

Ni isoko rinini ryagutse ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse harimo n'abakiriya bari gushaka serivise zitandukanye bifashishije telefone.

Aha ni aho Mtn ikorera ndetse aka ni agapapuro kanditseho amagambo y'uburyo wakoresha umuyoboro wabo wishyura na nimero wakoresha.

Iyi ni inzu ikoreramo abakozi ba emutiyene, irimo ibyapa bimanitse, byerekana amazina y'iryo soko, ndetse n'abakozi babo, n'abakiriya.

Iri ni iduka ricuruzwamo ibyo kunywa harimo n'amacyesi abika amacupa neza ndetse n'umuntu urimo kwishyura yifashishije telefone na nimero.

Uyu muntu afite terefone yihuje na eterinete, arimo gusura urubuga nkoranyambaga rwa Eyateri, areba ibyo bakora na serivise batanga.

Aka ni akazu k'umwajenti wa emutiyene akoresha arimo gutanga amayinite, kubitsa, kubikura, ndetse n'izindi serivise za emutiyeni.

Utu ni utuzu aba agenti ba MTN bakoreramo mugihe bari gutanga serivise zitandukanye harimo kugurisha amayinite kubitsa amafaranga ndetse no kubikuza.

Iyi ni inzu ikorerwamo na Emutiyeni ndetse n'abakozi babo bafasha abakiriya, muri serivisi zitandukanye: nko gucuruza amayinite na simukadi ndetse no kubitsa amafaranga no kubikuza.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu byo kurya bitandukanye n'ibyo kunywa, harimo umukozi wambaye umupira wa emutiyene, na firigo ikonjesha ibyo.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete ya MTN, kigahabwa umucuruzi mu buryo bwo kwifashisha kwishyurwa amafaranga mu bucuruzi bwe.

Aba ni abajenti ba mobile money aho batanga serivise zo kubikuza, kubitsa ndetse no kugura amayinite ku baturage n'undi wese ubyifuza, ababagana ni benshi kandi bakeneye izo serivise zitandukanye ku giciro cyiza.

Aka ni akazu k'abakozi ba Emutiyene, b'aba ajenti, bakorera mo mu gihe bari gutanga, bacuruza amayinite, babitsa, babikuriza abakiriya.

Aka ni akazu ku mu ajenti wa eyateri mane ndetse n'abakozi babo baje gufungura aka kazu kugira ngo gatangire gakorerwemo serivise zabo.

Aka ni akazu k'umwajenti wa emutiyene gafite idirishya akoresha mu gihe ari guha serivise abakiliya ndetse n'ibyapa biranga akazi akora.

Uyu ni umukozi ukorera ku muhanda wa MTN mu gihe aha abakiriya serivisi zitandukanye harimo gutanga amayinite, kubitsa no kubikuza amafaranga.

Uru ni urupapuro rutangwa na sosiyete ya emutiyene mu ifatabuguzi ryo kwemerera umukiriya uburyo ashobora kwishyurwaho amafaranga mu gihe ari mu bucuruzi.

Iyi ni inzu ikoreramo n'abakozi ba emutiyene harimo utubati tw'ibirahure ndetse n'ibikoresho bakoreshwa mu bucuruzi ndetse n'abakiriya.

Uyu ni umukiliya uvuye guhaha, mu isoko ari kwishyura akoresheje telefone, ku muyoboro wa emutiyene, abifashishwemo n'umukozi wabo.

Iyi ni inzi ikoreramo abakozi ba emutiyene, ndetse n'ibikoresho by'amamashini bifashisha mu kazi, hariho n'ibyapa bigaragaza amanimero bishyuriraho.

Aka ni akazu ku mwagenti wa Mtn kariho amazina y'isoko uko ryitwa na nimero wakifashisha mu gihe uri gusaba serivise n'umwagenti utanga.

Aka ni akazu k'umwajenti wa MTN kari ahantu ku muhanda, kariho amadirishya atatu afunguye, mo imbere harimo ibikoresho bakoresha.

Uru ni urupapuro rugaragaza uburyo ushobora kwishyura ukoresheje umuyoboro wa Emutiyeni, mu buryo bwa mobayiro mani; wifashishije nimero y'ayo mazina.

Aka ni akazu umu ajenti yicaramo mu gihe ari gutanga serivise zitandukanye za eyateri mane ndetse ako kazu kakaba kariho n'amashusho yamamaza ibikorwa bikorerwa muri eyateri mane.

Ibi ni ibiro birimo umukozi wa MTN ndetse n'agapapuro kariho nimero bakoresha mugihe bari kwishyura amafaranga ndetse n'ibindi byuma bifashisha mukazi.

Uyu ni umuntu wicaye ufite terefone, uri gukoresha umuyoboro wa mtn mu buryo bwa serivise akenewe ndetse akurikiza n'amabwiriza asabwa.

Iri nihema abakozi ba MTN bakoreramo bambaye imyambaro yerekana izina rya sosiyete nakazi bakora, ndetse na mudasobwa bifashisha mugihe batanga serivise.

Uyu ni umutaka w'umwagenti wa MTN akoreramo ndetse n'abandi bakozi bambaye imipira y'akazi bari kwigisha abantu uburyo bakoresha serivise zabo.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Iyi ni inzu ikoreramo abakozi ba emutiyeni mu gihe bari gutanga serivise zo gucuruza amasimukadi, amayinite, kubitsa no kubikuza amafaranga.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa emutiyeni gasize irange rigaragaza izina rya sosiyete ndetse n'ibyapa bishushanyijeho n'abakiriya baza bagana umucuruzi.

Ni akazu k'umukozi wa ajenti wa emutiyene, akorehsa mu gihe ari gutanga amayinite ndetse kariho na nimero wakoresha mu gihe uri gushaka gukoresha serivise zo kuri telefone.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa MTN, karimo umukozi wabo, ndetse gasize irangi arigaragaza izina rya sosiyete yabo, n'ibikoresho akoresha mu bucuruzi.

Uyu mu ajenti ari mu kazu akoreramo, afite ikaramu ndetse n'igitabo, arimo arandika, ahereza umuguzi amafaranga.

Iyi ni inzu abakozi ba emutiyeni bakoreramo, bifashishije imipira igaragaza izina rya sosiyete yabo, ndetse n'ibyapa byamamaza akazi bakora.

Uru ni urupapuro ruhabwa umucuruzi mu ifatabuguzi rya sosiyete, ya emutiyene, mu gihe arukoresha ari kwishyurwa amafaranga na nimero yarwo.

Iyi ni inzu ikoreramo abakozi ba emutiyeni ndetse bambaye n'imyenda igaragaza izina rya sosiyete n'ibindi bakora, harimo televiziyo n'abakiriya bari guhabwa amafaranga.

Aha ni mu kazu ka MTN, harimo aba agent babiri ba MTN, hari icyapa cyanditseho, hari baji bambaye, hari n'ameza.

Aka ni akazu k'umuajenti akoreramo wa emutiyene, ari kumwe n'umukiliya arimo arandika, baganira baseka.

Iri ni iduka ririmo; ameza, firigo zikonjesha ibyo kunkwa n'umukiriya ndetse n'umukozi wa MTN n'umucuruzi ucuruza.

Ubu ni uburyo ushobora kwishyura amafaranga mu gihe uri mu isoko uri guhaha imbuto, imboga n'ibindi biribwa cyangwa ibindi binyobwa ukoresheje Equity bank, hakaba ari uburyo ushobora kwishyura ukoresheje Equity bank uyihuje na telefone.

Uru ni urubuga rukoreshwa mu guhaha no kugura ku muranko, hariho n'aho rukorera ndetse n'amazina yarwo rukoramo.

Uyu ni umukozi wiyi sosiyete yitwa vuba vuba ndetse yambaye ishati igaragaza izina ry'isoko akoreramo ndetse n'ikinyabiziga yifashisha mugihe ari kugemura ibicuruzwa.

Ibi ni ibinyabiziga bikoreshwa mu gihe bajyanye ibicuruzwa ku bakirirya, ndetse byambaye amasanduku ariho amazina y'isoko.

Uru ni urubuga bahahiraho bifashishije telefoni yahujwe na interineti, ndetse hariho umukozi wabo wambaye umupira ugaragaza izina rya sosiyete uko yitwa.

Iri ni isoko ryitwa vuba vuba rigemura ibiryo byo kurya aho waba uri hose mu gihugu ndetse bakifashisha ibinyabiziga mukubikugezaho n'abakozi.

Iki n'igishushanyo kigaragaza kandi cyamamaza izina ry'isoko n'ibicuruzwa bacuruza uko byitwa n'igiciro na nimero yiryo soko.

Iyi ni shusho yamamaza yerekana uburyo ushobora guhaha ukoresheje telefone kandi hariho nimero ushobora gukoresha mu gihe ukeneye serivise.

Ikingiki ni igishushanyo kigaragaza ibicuruza byo kurya ndetse n'ibyo bikozemo, hariho amafaranga n'igiciro cyabyo, n'amazina y'uko byitwa.

Iki ni ikinyabiziga fihagaze ku muhanda kifashishwa mu kugemura kijyana ibicuruzwa ndetse hariho isanduku yerekana isoko uko ryitwa.

Aha ni mu muhanda urimo amamoto atandukanye ariko abamotari batwaye izo moto bambaye amakote asa nk'ayo mu ikoraniro rimwe.

Uyu ni umukozi wa sosiyete ya kefuse ndetse n'ikinyabiziga, akoresha mu gihe ari kugemura ibicuruzwa byabo n'isanduku igaragaza izina ryabo.

Ni uburyo bwo kwamamaza bifashishije imodoka bakoresheje icyapa cyometse ku modoka, bagaragaza uburyo bacuruza ndetse n'imbugankoranyambaga bacururizaho.

Iduka ricururiza kuri terefone igihe bihuje na interinete, hakaba hariho urubuga rwabo wabashakaho ndetse na nimero ya watsapu n'aho bakorera.

Ni igishushanyo cyanditseho amazina y'isoko, ibicuruzwa, ibiciro, nimero wakoresha mu gihe bari kwishyurwa, n'ibyo bacuruza bafite.

Iri ni isoko ricururizwamo ibitoki, ndetse n'udutebo bifashisha mukubika ibyo bitoki, n'abacuruzi bacuruza ibyo kurya.

Uyu ni umukozi w'iri soko ry'umurimo, ndetse yambaye n'umupira ugaragaza izina ry'iri soko, ndetse n'ikinyabiziga akoresha mu kazi ke.

Ni ukwamamaza bifashishije imbuga nkoranyambaga, bagaragaza imirongo wababonaho, n'amanimero yabo ya telefone ndetse n'ibyo bacuruza.

Iyi ni imyenda y'abagore harimo amajipo, imipira, amakanzu n'amajipo maremare ndetse n'imipira y'amaboko maremare, rikaba ari isoko ryamamaza imyenda.

Uyu ni umumotari utwaye ikinyabiziga cya moto ndetse ufite telefone yihuje na enterinete, mu buryo bwo gukoresha indangacyerekezo y'aho agiye.

Uyu ni umucuruzi wambaye umupira ugaragaza isoko akoreramo uko ryitwa, ari guhereza umuguzi ibyo yaguze biri mu ikaratasi harimo amavuta n'imboga.

Iri ni iduka ricuruza ibyuma bitandukanye ndetse harimo n'abakozi bambaye imyenda igaragaza izina ry'ako kazi bakora, harimo utubati tw'ibirahure tubitse ibyo bicuruzwa.

Iyi ni inyubako yubatswe mu byuma. Iparitsemo imodoka za sosiyete. Zifite ibyapa n'ibirangantego bigaragaza iryo soko izina ryabyo.

Bacuruza ibikoresho bitandukanye ari byo birimo: amatelefone, mudasobwa, amasakoshi imyenda ndetse hakaba hariho n'ibiciro mu gihe utabasha gusobanukirwa, ariko bagashyiraho ibiciro ku buryo ubashaka gusobanukirwa bitewe nicyo ushaka.

Uyu ni umukozi w'iri soko, wambaye ishati igaragaza izina ry'isoko ry'akazi ndetse n'ikinyabiziga yifashisha ari kugemura ibicuruzwa.

Uru ni urubuga bahahiraho ndetse bakanacuruza mu gihe bifashishije telefoni yihuje na interineti, ruriho amazina yibyo bacuruza ndetse n'ibishushanyo byayo mazina.

Hano ni muri Rwandan crothing store bakaba bagufitiye inkweto nziza, imyenda y'abagore myiza, imyenda y'abana myiza ku giciro cyiza ku serivisi yabo inogeye buri wese kandi ugataha wishimye.

Iyi foto ni iyo kwamamaza igaragaza imurikagurishwa bashyiraho ibyo bacuruza bagashyiraho n'uburyo ushobora gusura urwo rubuga rwabo cyangwa kureba ibyo bafite.

Uyu ni umukozi w'iri soko yambaye akajire kagaragaza isoko akorera uko ryitwa, ari kumwe n'amoto izana ibyo bicuruza bacuruza babizaniye abakiliya.

Uyu ni umukozi utwaye ikinyabiziga, agemuye ibicuruzwa, ndetse yambaye umupira ugaragaza sosiyete akorera uko yitwa,

Iri ni isoko ricuruza ibiryo byo kurya bitetse kandi bakabigeza ku bantu bifashhishije abakozi babo mu gihe bakoresha ibinyabiziga babashyira ibyo kurya.

Iyi ni ifoto yamamaza, yerekana ibicuruzwa bitandukanye, birimo; imbuto, imboga, ndetse n'ibyo kunywa, n'ibinyampeke, bakifashisha umurongo w'urubuga.

Iyi ni inyubako yubatse igerekeranye ndetse isize irange ry'ibara rimwe naho hari imodoka ziparitse.

Uyu ni umukozi wa sosiyete wambaye ishatiyerekana akazi akora uko kitwa ndetse n'ikinyabiziga yifashisha mu gihe ashyiriye umukiriya ibicuruzwa.

Ni igishushanyo bashyira kurubuga cyerekana uburyo bacuruza, n'uko ibintu waguze bikugeraho n'igihe bikugereraho ndetse n'ingano yabyo uko iba ingana.

Ubu ni uburyo ushobora kumenya amakuru y'iri soko ryitwa vubavuba bakwereka amakuru atandukanye ukaba wabona ibiciro by'ibyo waba ukeneye muri iryo soko.

Ikirango cyamamariza sosiyete hariho ikinyabiziga n'umukozi wambaye umupira werekana izina ry'iryo soko ndetse n'icyo akoramo.

Uyu ni umukozi wambaye umwenda werekana sosiyete akorera izina ryayo, ndetse ari gushyira igicuruzwa mu isanduku atwaramo ku kinyabiziga.

Urubuga bacururizaho ndetse n'abakiliya bahahiraho mu gihe bifashishije terefone ihujwe na enterinete hariho ibishushamyo byerekana ibyo bacuruzwa n'amazina yabyo.

Iyi ni kigali onulayini maketi pulasi bisobanuwe ngo ni ugucuruza no guhaha kuri onulayini mu buryo butandukanye muri Kigali wagura ukagurisha.

Uyu mukobwa yihuje na enterinete kuri telefone ye arimo guhaha no gutuma ibyo ashaka yifashishije enterinete.

Izi ni moto enye ziriho abakozi bagaragaza izina rya sosiyete yabo ndetse n'uburyo batwaramo ibicuruzwa.

Uyu ni umukozi uzaniye umukiriya ibyo yaguze ndetse yifashishije ikinyabiziga mu kugemura ibyo bicuruzwa.

Iri ni iduka bahahiramo bakoresheje terefone cyangwa mudasobwa mu gihe bihuje na interineti hariho amashusho yerekana ibyo bacuruza ndetse n'ibiciro byabyo.

Iryo ni iyampamaza ryerekana uko isoko ryitwa n'ibyo bacuruza ndetse n'uburyo bacuruzamo uko butandukanye n'ahantu.

Uru ni urubuga bahahiraho mu gihe telefone yihuje na interineti, hariho nimero zabo ndetse n'imbuga nkoranyambaga zabo, n'amazina akoreshwaho.

Iki ni icayapa cyamamariza isoko rivomesha gaze n'amazi kandi bifashihije ikinyabiziga, hakaba hariho na nimero ushobora kubashakaho.

Igishushanyo kiriho ibishushanyo bicuruzwa ndetse n'amafaranga bicuruzwamo n'amazina y'iryo duka ndetse na nimero z'iryo duka wabashakaho.

Iyi ni kompani yitwa Vuba Vuba, itunganya ibyo kurya by'amoko atandukanye harimo imboga, ibinyampeke, imbuto, kandi bakabikugezaho aho uri hose bifashishije ibinyabiziga.

Iragufasha kujya kukuvomeshereza amazi, kuvomeshereza gaze, aho waba uri hose mu gihugu hose, nimero wabahamagaraho ubashaka ubakeneye ni iyo ngiyo iraho hasi ariyo zeru karindwi umunani gatanu gatanu ka gatanu kabiri gatanu karindwi rimwe gatandatu no kuri watsapu ukaba wabasangaho.

Aba ni abakozi bakorera sosiyete imwe bambaye imipira igaragaza izina ry'ako kazi hamwe n'ibinyabiziga bakoresha mu gihe bagemura ibicuruzwa.

Uku ni ukwamamaza bifashishije urubuga bacururizaho ndetse n'abantu bakabambika ibicuruzwa bacuruza kugira ngo bagaragaze ibyo bacuruza uko bimeze n'uko bisa bagashyiraho n'amafaranga y'igiciro cyabyo.

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Uu ni uburyo bukoreshwa mu kugurisha no kwamamaza mu gihe hari ibitaramo bitandukanye, mu bucuruzi bw'amatike mu gihe hari ibitaramo by'abahanzi, amanama cyangwa se amasoko azaba arimo mu kugurisha kwawo.

Uri ni uruganda rwitwa Urwibutso, rukora amandazi yo kurya, ndetse bakayacuruza hifashishijwe impapuro zerekana ibyo ayo madazi cyangwa ibyo biribwa byakozwemo. Hanyuma bakakwereka ibiciro byaryo,

Ni igishushanyo cyifashishijwe mu kwamamaza ahantu bakoresheje ifoto iriho imbuga n'urukuta, ndetse n'amavase aririmo indabyo.

Uyu muntu yambaye ishati igaragaza isoko akorera ndetse n'ikinyabiziga akoresha n'icyo atwaramo ibyo bicuruzwa.

Uru ni urubuga ushobora kwifashisha mu gihugu ukoresha Mudasobwa wihuje na Internet mu gihugu gushaka serivisi zitandukanye harimo nko gushaka icyemezo cy'uko uri ingaragu, serivisi z'ubutane, izo gushaka ubutaka cyangwa kwibarura.

Uyu muntu arimo aramamaza yifashishije ibikapu bibiri ndetse yerekana n'ibicuruzwa bitandukanye ari kwamamaza.

Uru ni urubuga bahahiraho bakoresheje telefone igihe yihuje na interineti ndetse hariho igiciro n'izina ryiyo sosiyete uko yitwa.

Afuripadi ni padi yambarwa n'abana b'abakobwa mu gihe bari mu mihango kandi ikaba yujuje ubuziranenge akaba ari igisubizo kandi ntangaruka yatera cyangwa uburwayi.

Tukugezaho ibiryo byiza vuba kanndi byihuse aho waba uri hose dufite amaduka atandukanye wasangaho ino serivise ikagufasha cyangwa se ugahamagara ityo nimero yo hasi nk'uko mubibona ikaba yagufasha kugira ngo unogerwa na gahunda yawe wifuza.

Ni inzu irimo icyumba, kirimo igitanda gishasheho amashuka n'imisego busegura ndetse gifite amadirishya y'ibirahure n'inzugi z'ibirahure.

Iki ni icyumba abagenzi bacumbikamo mu gihe bari mu rugendo, kirimo igitanda gishashe ho matera n'amashuka ndetse n'imisego yo kwisegura.

Iyi ni inyubako y'inzu yubatse igeretse, isize amabara atandukanye ndetse ifite n'imbuga iteyemo ibiti ndetse n'indabyo hamwe.

Iyi ni inzu irimo icyumba cy'ubwogero, gifite idirishya ririmo ibirahure ndetse n'utwuma bamanikaho imyenda mu gihe bari koga ndetse n'icyuma kibamo amazi yo koga.

Iyi ni inzu ifite ubusitani imbere yayo ikaba ifite amabara y'umukara ku rugi ndetse n'umweru.

Iyi ni inyubako yubatswe muburyo bugeretse, irimo ibyumba byinshi by'amacumbi ndetse ifite n'ubusitani buteyemo indabyo n'ibiti ifite namadi.......

Iyi ni inzu iherereye mu Rwanda i Kigali i Kanombe ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ubukarabiro bubiri ikaba ikodeshwa amafaranga y'amanyarwanda.

Iyi n'inyubako ifite icyumba kimwe ifite ubukarabiro bumwe ikaba iherereye Iremera aho ikodeshwa aho nyiri nzu ashaka uyikodesha akarya amuha amafaranga.

Iyi ni inzu iri kurangwa igurishwa ndetse iri kugaragazwaho ingano yayo n'ibyumba biyigize n'ibyumba bibiri by'ubwogero.

Izi ni inyubako zubatse munzu y'uburyo bugeretse ndetse zifite aho imodoka ziparika mugihe zitari kugenda.

Iri ni iduka ricururizwamo ibicuruzwamo bitandukanye bifunitse mu makarito ndetse n'utubati biteretsemo n'abakiriya babagana baza guhaha.

Iri n'iduka rinini, ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'abakozi bakoramo bambaye imipira yerekana akazi n'utubati babikamo ibicuruzwa.

Iyi ni inyubako yubatse mu buryo bw'inzu igeretse, ikorerwamo ubucuruzi n'amasoko atandukanye, harimo imiryango myinshi y'abacuruzi n'abakiriya.

Iri ni iduka ririmo umucuruzi ndetse n'abakiriya bashaka ibicuruzwa bicururizwamo, n'utubati babikamo ibyo bacuruza.

Iri ni iduka rihahiramo abasilikari n'abapolisi, kandi bifashishije mudasobwa mu gihe batanga ibyo bicuruzwa, byo muri iryo duka.

Iri ni iduka rinini ricuruza inkweto n'ibikapu, ndetse ririmo n'abakiliya, ndetse n'abacuruzi bacuruza ibi bikoresho.

Iri ni iduka ricuruza ibitambaro by'amoko atandukanye, ibirebire n'ibigufi, ibizinze n'ibirambuye, hasi ndetse n'amatara yaka.

Ibi ni ibicuruzwa bitandukanye aho biba biri mu mazu manini y'ubucuruzi, hakaba akenshi hibandwamo mu buryo butandukanye yaba iby'imitako, iby'imideri cyangwa se ibyo dukoresha mu ngo.

Iri ni isoko rinini ry'inyubako yubatse igeretse, hacurururizwamo ibikoresho bitandukanye, ndetse n'ibindi bicuruzwa n'ibikoresho bifashishwa bacuruza.

Aba ni abantu bagiye gushaka serise z'ubwiteganyirize cyangwa z'ubuvuzi aho bategereje ubafasha.

Uru ni urupapuro ruriho amagambo agaragaza amakuru y'umuryango aho aba ahabwa serivisi zo kwizigamira cyangwa zo kwivuza.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubuvuzi ndetse harimo n'abaganga bakora bifashishije ameza na mudasobwa mu gihe bavura abarwayi.

Iri ni isoko ricuruza ibyo kurya n'ibindi bikoresho bitandukanye, kandi bibitse mu tubati tw'ibiti ndetse n'abakozi bakoramo.

Iyi ni inzu nini iba irimo ibicuruzwa bitandukanye by'amoko yose, aho umuguzi aza ahitamo icyo ashaka akacyishyura nyuma.

Iri ni isoko rinini, ririmo ibyo gucuruza bitandukanye n'abakozi bakoramo bambaye imipira igaragaza uko isoko ryitwa, ndetse n'utubati turimo ibicuruzwa.

Ni isoko rinini ryagutse ricururizwamo ibinyobwa byo kunywa bitandukanye, n'utubati dukoze mu birahure babikamo ibyo bikoresho byo kunywa bacuruza.